Ameza ariho isahani y'umweru iteretseho amaronji ari mu mabara atandukanye ndetse hejuru hariho akantu kameze nk'inyenyeri.

Abanyeshuri bagiye bashoreranye b'abakobwa bambaye impuzankano y'ishuri ,ndetse barangajwe imbere n'umunyeshuri wambaye ijili y'abantu bashinzwe ibijyanye n'ubutabazi bw'ibanze, bari ahantu hisanzuye hari ikibuga ndetse n'ibiti.